Mu gihe cya covide cumi n'icyenda buri muntu wese yagombaga kwambara agapfukamunwa, abantu bari aha bose bambaye udupfukamunwa ndetse hari n'uri kubafasha ufite mudasobwa.

Ivomero rifite uruzitiro rw'ibiti, uyu mugore uteru umwana ari guseka arishimye ndetse ari kuvomera mu ndobo isa umukara. Inyuma y'iryovomero hari ibyatsi byumye.

Mu biribwa bikungahaye ku ntungamubiri harimo imboga. Aha turi kuhabona abantu b'ingeri zitandukanye, barimo gutera imboga mu karima k'igikoni. Ndetse uko bigaragara hari n'ushinzwe umutekano wifatanyije na bo.

Baricaye baratuje, bambaye udupfukamunwa, ameza bicayeho ateretseho amazi ndetse umwe afite ikaramu mu ntoki, Ntagushidikanya biragaragara ko barimo gufata amahugurwa.

Abana bato bambaye imyenda y'ishuri bari kumwe na mwarimu wa bo, bafite utunyamakuru mu ntoki ndetse aho bahagaze inyuma y'abo kuzuhari hariho icyapa.

Ivomo ririho amatiyo abiri, umwana wishimye useka, ari kuvomera mu gikombe, hirya ye hari ibyatsi ndetse uyu mwana yambaye agapira k'umutuku.

Ivomo risize irangi ry'ubururu rikikijwe n'ingeri z'abantu batandukanye ariko bose bambaye udupfukamunwa ndetse hari n'amagare abafasha kwikorera amazi baje kuvoma.

Abana bashimishwa n'ibintu bitandukanye. Ariko gukina n'amazi byo bibashimisha kurenza ibindi bintu byose. Abana batatu bari gukina n'amazi ndetse umwe muri bo ari guseka. Inyuma yabo hari igiti gifite amashami.

Ivomero ryubakiye, aba bagore batatu niryo bari gukoresha, umwe ari kwifashisha ikiganza anywa amazi, undi yambaye agapfukamunwa ari gukaraba intoki ndetse rizengurutswe n'ibiti.

Amazi ni ubuzima, afite aho aturuka aho ngaho ni ku isoko, aha hari ivomo ryubakiwe rikikijwe n'abaturage, bigaragara ko baje kuvoma.

Uruhurirane rw'abantu benshi batandukanye ndetse harimo n'abashinzwe umutekano kuko ubona abambaye iyo myambaro, bazengurutse imodoka ikoreshwa mu kugeza abarwayi barembye kwa muganga iyo ni ambiransi.

Igiti kigororwa kikiri gito, uburezi inkingi y'iterambere. Abana barishimye bifotoranyije n'abarezi babo, aho bifotoreje hasize amabara y'ubururu, inzugi ziri inyuma yabo zirafunguye, imyenda bambaye ifite amabara y'umuhondo.

Umugore wambaye umwambaro w'akazi ufite indangururamajwi ndetse n'ikayi mu ntok, ari imbere y'abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu gishararagati. Uramutse uvuze ko bari mu nama ntabwo waba wibeshye.

Hari indwara biba ngombwa ko tuzirinda mbere yuko tuzirwara, kuzirinda ntakundi ni ugukingirwa, aha hari umugore uteruye mwana muto bari gutera urushinge, uko bigaragara ntago washidikanya ko uyu mwana ari guhabwa urukingo.

Abaganga babiri, umwe ni umugore, undi ni umugabo. Na nyina w'umwana ari kubitegereza, areba uburyo bari gufasha umwana we. Iruhande rwabo, hari agasahani gasa umutuku.

Ibyishimo, inseko ni byo bigaragara kuri aba bana bambaye imyenda y'ishuri, bahagaze imbere y'imigezi ndetse bafite isabune mu biganza, bigaragara ko bari kwikorera isuku yo mu ntoki.

Kandagira ukarabe ni igikoresho gikoreshwa ahantu hatandukanye abantu bisukura. Aha, hari umwana wambaye imyenda y’ishuri ari gukoresha kandagira ukarabe. Ikindi kandi, iyi kandagira ukarabe abantu bayikoresha bavuye mu bwiherero n’ahandi hatandukanye.

Ku ivomero ririho amatiyo menshi, rikikijwe n'ibyatsi, ndetse hariho umuntu uri kuvoma, ari gukoresha ijerekani risa umuhondo, iruhande rwe hari n'irindi risa icyatsi ndetse n'akabido gasa umweru.

Ikigega cy'umukara gifasha kubika amazi, umwana wambaye umwenda w'ishuri ari kuvomera mu gikombe, inyuma ye hari urukuta rwubakishije amabuye.

Abana bishimye baseka banezerewe, yewe umwe yambaye imyenda y'ishuri, inyuma y'abo bana hari ikibaho gisa umukara, iruhande rwabo hari aho babika ibikoresho bakoresha mu ishuri.

Uburyo bwiza bwo gutangamo amakuru burya wifashisha ikinyamakuru, cyane cyane iyo ari icyanditse birafasha kuko buri wese yakibona kandi akagisoma, aha hari umugore uri gutanga ibinyamakuru kuri buri muntu anyuzeho.

Bari hagati y'ibiti byinshi, buri umwe wese yambaye umwambaro umuranga, udashidikanyije wabona ko harimo abakorerabushake ndetse na muganga n'undi uri hagati yabo wambaye amarineti.

Akanyamuneza n'ibyishimo n'inseko nibyo bigaragara ku maso y'uyu mugore utwite hamwe n'umugabo we. Bari kumwe n'uyu mu mama bisa nkaho ari kubaganiriza uburyo bakwiye kwitwara.

Covid cumi n'icyenda yatumye abantu biga kwambara udupfukamunwa. Abagore babiri bateruye abana, bambaye udupfukamunwa. Bigaragara nkaho hari icyorezo bari kwirinda kugira ngo batanduza abana bateruye.

Abana baje kuvoma ariko ivomero risa nk'aho rigoye kurivomeraraho. Umukobwa ari gufasha abana kubona amazi ndetse ku ruhande rwo hirya hari imodoka isa umweru n'ibiti byinshi.

Gutwara amazi mu rugo biragoye kugeza ubwo abantu bamwe na bamwe bahitamo kujya gukorera imirimo imwe n'imwe ku mugezi, cyane cyane nko kuhogereza amasahani ndetse no kuhamesera, aha turahabona ibivomesho baje kuvomeramo ndetse n'abazanye amasahani kuyahogereza.

Umwana muto wishimye uri guseka ufite akanyamuneza mu maso, ari kwisukura ibiganza ku ivomo, ndetse inyuma ye hari uruzitiro rw'amatafari adahiye.

Amazi ni ubuzima, ivomero ryiza ryubakiye, umukecuru yaje kuvoma, inyuma ye hari ishyamba rinini rigizwe n'ibiti byinshi kandi ari kuvomera mu ijerekani risa umuhondo.

Umuntu ashobora kurwara indwara zitandukanye, hari izo turebesha amaso, hari n'izitagaragara, izo zitagaragara rero harimo izo bapima bafashe amaraso yo mu rutoki, hano hari abarwayi baje kwivuza ndetse n'abaganga bari kubafasha gufata ibyo bizami byo mu rutoki kugira ngo babapime.

Imyambaro bambaye, irabagaragaza nk'aho bafite icyo bari kuganiraho. Harimo uwambaye imyambaro y'abashinzwe umutekano. Yewe hari n'abandi bari kwandika. Bisa nkaho, ibyo bari kuganiraho, bari kubyandika. Inyuma yabo hari inzu isize irangi, ry'ubururu.

Amazi ni ubuzima. Kandi agira akamaro kenshi gatandukanye. Turabona ivomero risize ibara ry'ubururu, rikikijwe n'abantu bari gukoresha ayo mazi. Hari umugore uri gukarabya umwana, ndetse n'undi mwana urimo kumesa.

Amazi ni ubuzima kuko adufasha mu bintu byinshi bitandukanye, ivomero ryubakiye neza rizengurutswe n'abaje kuvoma ndetse inyuma yaryo hari ibiti byinshi.

Abana babiri bari ku ivomo rizitirishije ibiti ndetse rizengurukishijwe n'ibyatsi byinshi. Uko rigaragara, rishobora kuba rigoye kurivomeraho kuko umwana umwe uri kubona ko byamusabye imbaraga kugira ngo amazi abashe kuza, bavome.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, uyu yambaye igikoresho gikoreshwa kwa muganga ndetse bigaragara ko ari gufasha umwana uri kumwe n'umubyeyi we.

Isuku ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, amazi agira uruhare runini kugira ngo isuku igerweho, ku ivomo umwana muto ari gukaraba mu ntoki, bisa nkaho ari kuzisukura.

Ibyishimo, umunezero, ndetse n'iseko nibyo bigaragara kuri uyu mwana w'umukobwa, ateze ikiganza cye ku iriba aho bigaragara ko yaje kuvoma, azengurutswe n'ibyatsi inyuma y'iryo riba.

Inyuma yabo hari ubusitani bwiza. Baricaye ndetse uko bigaragara bari guhabwa serivise. Uyu muganga ari kubafasha kumenya umuvuduko w'amaraso. Kuko igikoresho kigaragara ari gukoresha ni byo gikora.

Hari igihe biba ngombwa ko abantu bahabwa inyigisho zitandukanye ndetse bagahabwa n'ubukangurambaga ku bijyanye n'ibintu bitandukanye. Uko bigaragara hano hari gukorwa ubukangurambaga ku bijyanye n'imirire kuko bari kugaburira abana babaha icyo kunywa.

Bazengurutswe n'ibiti byinshi. Aho bari haparitse imodoka, hari igishararagati ndetse n'ibendera, inzu iri imbere yabo iriho icyapa.

Indwara zandura hari uburyo bwinshi wazirinda, ku baganga ho ni akarusho, uyu tureba yitwikiriye, yahishe isura yo mu maso ndetse yambaye n'agapfukamunwa, afite igikoresho akoresha mu ntoki, ari kuganiriza umusaza, inyuma yabo hari ibyatsi n'umwana uhagaze.

Umwana mutoya ufite ubwoba uri kurira. Ateruwe na mama wiwe ndetse hari umuganga wambaye imyenda y'akazi. Umurebye mu ntoki ubona ko afite urushinge ari kwifashisha avura umwana.

Hari uburyo bwinshi umuntu yatwaramo ibintu, uyu mukecuru yarwaye ibintu ku mutwe aho yikoreye ijerekani, imbere ye hari inzu ifite amabati y'umutuku, iruhande rwe hari abana babiri.

Amazi ni isoko y'ubuzima, bamwe muri twe bidusaba kugira ngo tujye kuyavoma ahantu hatandukanye ubundi tuyazene iwacu mu rugo, umugore wagiye kuvoma arishimye, ari guseka, inyuma ye hari ibyatsi, yewe akikijwe n'abana babiri na bo bigaragara nkaho baje kuvoma.

Kumenya imikurire y'umwana ni ingenzi, nta kundi umuntu yamenya imikurire y'umwana usibye kumupimisha ibiro, turi kubona umubyeyi wazanye umwana we kumupimisha ibiro, hari n'umukorerabushake umufasha ndetse hari n'umunzani bari bukoreshe bapima ibiro by'umwana.

Bicaye mu cyumba utakwirirwa ushidikanya ko ari icyo kwa muganga kuko bazengurutswe n'ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, umuganga uri guseka ari kuvura umwana muto uteruwe na mama we.

Uko ahagaze yitonze ndetse ururabo ruteretse imbere ye, inyuma ye hari igikuta witegereje neza wabona ko cyanditseho amazina y'abantu benshi ntago washidikanya ko ahantu hari ari ku rwibutso.

Kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu atishimye ni amarira. Umwana muto ubabaye ufite agahinda mu maso wikoreye amaboko, inyuma ye hari umugore ufite igiti mu ntoki ndetse akikijwe n'abandi bantu benshi.

Ubumuga burya burimo ubwoko butandukanye, muri ubwo harimo bwo mu mutwe, aha hari ufite imyanda myinshi arasa nabi ndetse ibyo afite mu ntoki bigaragaza ko afite icyo kibazo cyo mu mutwe.

Inzu yubatse neza. Ifunguye umuryango umwe, ikikijwe n'ibiti. Ibyo biti biratoshye. Imbere y'iyo nzu hari ubusitani, kandi iyo nzu yandikishijweho n'ibara ry'ubururu, ryanditseho ngo Caraes.

Mu cyumba kirambuyemo umukeka ndetse kirimo n'intebe. Gifite idirishya rifunguye riri kohereza urumuri muri icyo cyumba. Hicayemo umugore, umurebye ubona ko afite ibitekerezo byinshi.

Umugabo ukuze wambaye imyenda isa nabi, amaguru ye ntabwo akarabye, inyuma ye hari undi mugabo na we wicaye ku igare yambaye ishati y'umweru.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo n'abagore, baricaye. Mu icyumba gisa nkaho ari icy'inama. Inzugi z'icyo cyumba, zirafunguye, ndetse n'amadirishya. Imbere yabo bantu, hari umugore, usa nkaho arimo kubakoresha inama.

Imbyino gakondo ni uburyo bwiza abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bafite umuco bakoreshaga kugira ngo bishime yewe n'ubu bagikoresha, hano turi kuhabona umusaza arishimye, ari guseka, yewe yambaye n'umwenda gakondo, afite icumu mu biganza.

Iseko y'umuntu burya iba ihishe byinshi kandi yerekana na byinshi, isura yishimye, amenyo meza ndetse n'umunezero nibyo bigaragara kuri iyi sura y'uyu musore.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite idirishya risize irangi ry'umuhondo, aho niho umwana muto ndetse na mama we bahagaze, bagaragara nk'abishimye.

Gutabarana ni igikorwa kiranga umuntu wese ufite ubumuntu, umukobwa ufite intege nke, ubabaye, usa nk'aho arwaye, arandaswe n'umukecuru n'umusore, bari kumufasha gutera agatambwe yegera imbere, uko bigaragara asa n'urwaye.

Ibyishimo by'abana akenshi babibonera kwa nyirakuru, hano hari abana bavuye ku ishuri bambaye imyenda y'ishuri, hari n'abandi bisa nkaho bavuye gukina, bakikije nyirakuru wabo barishimye, bari guseka.

Inseko, ibyishimo ni nibyo bigaragara ku maso y'uyu mukecuru sinzi niba ari uko akuze kuko amenyo yiwe arasa n'ayagiye avamo niba atari byo afite ikibazo cy'amenyo.

Uburezi ishingiro ry'iterambere rirambye. Abanyeshuri beza, uruvange rw'abakobwa n'abahungu, turabareba ukabona icyizere cy'ejo hazaza, ibendera, ubusitani ndetse n'amazu.

Bakikijwe n'insina zeraho ibitoki ndetse n'ibiti, baricaye uko bagaragara basa nkaho hari ibyo bari kuganiraho, umwe muri bo afite urupapuro n'ikaramu.

Hari indwara nyinshi zandurira mu mwuka, niyo mpamvu abaganga bakunze kwambara agapfukamunwa mbere yo gusuzuma umurwayi, uyu yambaye uwo mwambaro ndetse ari kuvura umurwayi indwara yo mu menyo.

Iyo amenyo yakorewe isuku guseka ntawe bitera ikibazo, ibyishimo, inseko niyo igaragara ku maso y'uyu musore, ntiwashidikanya ko yizeye neza ko amenyo ye asa neza.

Ibice byose by'umubiri tubikorera isuku, no mu kanwa naho ntabwo hasigaye hakorerwa isuku, umwana muto ufite uburoso bukoreshwa umuntu asukura mu kanwa, arishimye ari guseka.

Icyorezo cya Covid cumi n'icyenda, cyasezeye buri muntu wese yambara agapfukamunwa. Kugira ngo abashe kuyirinda. Ndetse abenshi batangiye no kugendana umuti wo gukaraba intoki. Cyapimwaga bakoresheje amacandwe.

Hari uburyo bwinshi muganga asuzumamo umurwayi kugira ngo amenye ikibazo afite, aha hari igisubizo cyabonetse bacishije umuntu mu byuma byabugenewe bashaka kumenya ikibazo afite.

Mu nseko nziza umwana muto aryamye ku gatanda ko kwa muganga. Haragaragara amaboko utashidikanya ko ari ay'umuganga, ari kumuvura indwara zo mu menyo.

Inseko nziza akanyamuneza ibyishimo nibyo bigaragara kuri aba bana bambaye imyenda y'ishuri ndetse na mwarimu wabo bose bafite umuti ufashishwa mu koza amenyo mu ntoki.

Isuku yo mu kanwa yongera byinshi, kugeza ubwo ishobora no gutuma useka kubera ko wizeye ubwiza bw'amenyo yawe. Uyu arishimye, ari kwerekana amenyo ye, afite urudodo mu ntoki kuko yizeye isuku yayo.

Akanyamuneza, insekobo, ibyishimo, isura yuzuye umunezero nibyo bigaragara, afite urudodo mu ntoki, amenyo ye arasa neza nkaho ayakorera isuku buri gitondo ndetse na buri mugoroba.

Amenyo ni kimwe mu bigize umubiri w'umuntu, ndetse akunze kugira ibibazo bitandukanye, aha hari abaganga babiri bari kwita ku murwayi ufite ikibazo cy'amenyo.

Uko yegamiye icyumba arimo ndetse naho ari kwerekana n'uburyo areba, bigaragaza ko hari uwarikwereka ko afite ikibazo cy'amenyo kandi hagaragara n'ugiye kumuha ubufasha.

Mu nseko nziza igaragara ku maso yabo ndetse n'uducupa tw'amazi mu ntoki, bazengurutswe n'ubusitani bwiza. Imbere yabo hari aho bajugunya imyanda ndetse uko bigaragara bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Inseko, akanyamuneza, ibyishimo, ni byo bigaragara ku maso y'aba bombi. Imisatsi yabo irasa umweru. Umugabo yambaye amarineti. Bari gukina umukino, bigaragara nkaho bari mu rugo rwabo.

Umwanya mwiza ushimisha buri wese ni igihe agiye gufata ifunguro, umukecuru wishimye uri hagati y'umusore n'umukobwa, umusore yambaye umupira w'umutuku, ateze isahani iriho irindi funguro ngo umukobwa yongereho imboga.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga umugabo uryamye ku gatanda wambaye imyenda y'umweru witegereje neza ubona ko ubwanwa bwe burimo imvi hari umuganga uhagaze iruhande rwe bisa nkaho ari kumufasha.

Umukecuru wishimye arambuye amaboko ari kumwe n'umukobwa uri kumufasha kuyarambura, uwo mukobwa yambaye agapira ndetse uko bigaragara ku mutwe w'uy'umukecuru imisatsi yiwe irimo imvi nkaho ashaje, umukobwa ari kumufasha kurambura amaboko.

Inseko ibyishimo akanyamuneza ni byo bigaragara ku maso yabo, uramutse uvuze ko ari umuryango kandi wishimye ntabwo waba ubeshye, kuko harimo ingeri zitandukanye.

Umusaza ukuze afite ibyo ari kurya, ndetse ari kumwe n'abana babiri, bicaye imbere y'inzu ifunguye, abo bana nabo bafite utuntu bari kurya.

Yicaye mu cyumba cya wenyine, umusaza usa nkaho akuze wambaye amarinete, ufite ikaramu mu ntoki, imisatsi yiwe irimo imvi ari gusoma igitabo.

Umusaza n'umukecuru bakuze. Bose bafite imvi. Bari mu rugo rwabo. Uko bigaragara barimo gufata imiti. Imbere yabo hari ikirahure cy'amazi. Umukecuru, birasa nkaho ariwe ari kwereka umusaza uburyo yafatamo imiti.

Baratera intambwe bishimye baseka, abagore babiri bambaye imyenda'imyitozo ngororamubiri. Inyuma yabo hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire.

Ibyishimo, inseko, nibyo bigaragara ku maso y'uyu muforomo wambaye mu muhogo igikoresho gikoreshwa kwa muganga, ari kumwe n'umukecuru wambaye amarineti ku ruhande rwabo hari ibyatsi bitoshye.

Mu cyumba kirimo uburiri bwicaweho n'uyu mukecuru ugaragara nk'ukuze, imisatsi ye irimo imvi, yambaye amarinete, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ndetse yifashe ku munwa.

Ukireba aho yicaye mu busitani bwiza burimo ibyatsi ndetse ukareba n'imyambaro yambaye n'uburyo yitwaye, ntabwo washidikanya ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Tubwirwa ko gufata imiti neza bishobora gutuma ukira vuba. Umukecuru ukuze, ufite ikirahure cy'amazi ari gufashwa n'umuganga gufata imiti neza.

Ibyishimo inseko ku maso ni byo bigaragara ku maso y'aba bombi, hari umuforomo bigaragara ko ari kwita kuri uyu mukecuru wicaye mu kagare, wambaye amarinete ndetse uteze n'igitambaro cy'umukara.

Bari mu kibuga cyiza cyubakiye neza, bakiniramo umupapa n'umwana barishimye, umwana afite umupira wo gukina ndetse umubyeyi ari kugerageza kuwumwaka.

Bari mu cyumba kirimo, itara umugabo ukuze n'umuforomo bicaye ku ntebe imwe, umuforomo yambaye igikoresho akoresha kwa muganga mu muhogo arimo gufasha uwo mugabo.

Mu muhanda ukikijwe n'indabo bari kugenda, bafite udupfukamunwa mu ntoki umwe muri bo yambaye amarinete, imyambaro bambaye igaragaza ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Umusaza n'umukecuru bakuze, bari mu rugo, umusaza yambaye rinete, umukecuru ari kumwitegereza, imbere y'umukecuru hari amarite bigaragara ko na we arwaye amaso, inyuma yabo hari ibikoresho bakoresha mu rugo, harimo igikoresho bakoresha bakora icyayi.

Umusaza usa nk'ukuze kuko afite imisatsi irimo imvi ndetse yambaye amarinete, bisa nkaho afite ikibazo cy'amaso. Ari kwandika mu ikayi akoresheje ikaramu.

Hari igihe twibaza impamvu dushishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri tukiri bato bikatuyobera. Umusaza ukuze bigaragara ko nta mbaraga afite, ari gufashwa na muganga kuba yakora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wishimye uri guseka, wambaye mu muhogo igikoresho bakoresha kwa muganga, ndetse ari gufasha umukecuru ukuze kuba yakora imyitozo ngororamubiri, ndetse uwo mukecuru afite imisatsi irimo imvi.

Izabukuru ni igihe kigoye kuko ukigezemo yibasirwa n'indwara zitandukanye, umusaza ukuze ufite imisatsi irimo imvi ari gusindagizwa n'abana be.

Uramutse utekereje ko bose ari umuryango ntabwo waba wibeshye, kuko harimo ingeri zose, abana bato, aba mama bakuze, ndetse n'umukecuru. Baricaye barishimye.

Mu cyumba gisize amarangi y'umweru, niho muganga yicaye afite igikoresho akoresha mu buvuzi ndetse ari gusobanurira umurwayi usa nk'aho akuze.

Ibyishimo, guseka ni byo bigaragara kuri aya maso y'abantu babiri bari gusuhuzanya, umugabo yambaye ishati y'ubururu ndetse n'amarinete, umugore nawe yambaye agapira k'ubururu.

Uramutse uvuze ko bose ari umuryango ntabwo waba wibeshye wongeyeho kandi ko bishimye na byo byaba ari ukuri, umusaza, umukecuru, umumama ndetse n'abana bato ni bo bagize uyu muryango.

Bose bambaye udupfukamunwa ndetse umwe muri bo yambaye amarinete, ari gutera urushinge mugenzi we. Uko bigaragara bisa nkaho hari mu gihe cya covide cumi n'icyenda.

Icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyarateye kigera ahantu henshi ku isi, kubona urukingo rwacyo byari bigoranye. Gusa umugabo uhagaze aha ngaha, afite icyapa cyerekana ko icyo cyorezo cyabonewe urukingo inyuma ye hari igiti.

Imibonano mpuzabitsina idakingiye niho haturuka indwara nyinshi zitandukanye. Uburyo bwiza bwo kwikingira ni agakingirizo. Aha hari urubyiruko rufite icyapa, bafite n'udukingirizo mu ntoki, bari gushishikariza abandi kudukoresha.

Zimwe mu ndwara zitandukanye, zikumirwa abantu bakora ubukangurambaga, hari aho bahurira mu nzira, bakagenda bafite ibyapa bavuga ngo twirinde indwara runaka, ibi nibyo bantu bari gukora, aho bafite ibyapa, bagenda bakora ubukangurambaga.

Covid-19 ni icyorezo cyibasiye isi mu mwaka wa 2019 ushyira 2020, aho buri muntu wese yari ategetswe kwambara agapfukamunwa. Hano turi kuhabona umurwayi urembye uri kwitabwaho n'abaganga kandi abamukikije bose bambaye agapfukamunwa. Bigaragara nk'aho afite icyorezo cya Covid-19.

Icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda. Cyandurira mu matembabuzi. Cyane cyane mu macandwe ndetse no mu mwuka, aha turahabona umurwayi bari gupima icyo cyorezo ndetse abaganga bari kumupima bambaye udupfukamunwa banikwije kugira ngo birinde.

Indwara zose ntago zivurwa n'ibinini cyangwa urushinge. Hari izo umuntu arwara, bikaba ngombwa ko bamubaga. Aha turababona abaganga, aho bari kwita ku murwayi, bamukorera ubuvuzi bwo kumubaga.

Abaganga bari mu cyumba cy'ibagiro bambaye agapfukamunwa, ndetse n'imyenda y'akazi, bari kuvura umuntu, aho bari kumubaga, hari n'ibindi bikoresho bifashisha bari gukora ubwo buvuzi.

Ikiganiro mpaka ni ubwoko bwiza wakoresha mu gihe ushaka gutambutsa ubutumwa, igihe abantu bahuriye hamwe. Hano turi kuhabona abagabo batanu n'umugore umwe ndetse hari n'abandi bantu babakurikiye, bari gukoresha ubwo buryo bw'ikiganiro mpaka kugira ngo batambutse ubutumwa.

Mu gihe cya covide cumi n'icyenda umuntu wajyaga gufasha ufite ikibazo cy'ubwo burwayi yaripfukaga, akambara agapfukamunwa, akambara imyenda y'amashashi imukwiriye ahantu hose, aba nabo basa nk'aho aribyo bakoraga.

Mu cyumba gifashirizwamo abarwayi, hari ibikoresho bitandukanye mudasobwa, agatanda abarwayi baryamaho ndetse n'intebe bicaraho, hari kandi n'aho bajugunya imyanda bamaze gukoresha.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi bwo kwa muganga. Harimo agatanda, hari ndetse n'utugare batwaraho ibikoresho. Kandi hari icyuma cyerekana amashusho.

Inzu ndende isize amabara y'umuhondo n'umweru, imbere ya yo hari ubusitani burimo indabo kandi yandikishijweho n'amabara y'umweru ngo CARAES.

Nta suku nta buzima, isuku igize byinshi mu mibereho y'abantu, imbere turi kuhabona amazu yubatse neza, ubusitani busa neza budafitemo umwanda, aho bata imyanda yewe hari n'abana baganira bigaragara ko bishimiye umwuka uhari.

Mu cyumba kizengurutswe n'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga. Umwana muto uriguseka wishimye ari kumwe na muganga urikumwitaho ndetse n'undi mupapa.

Ingeri z'abantu batandukanye, bari imbere y'iyi nzu isakaye neza, iruhande rwayo haparitse imodoka ndetse hari n'icyapa, uko hagaragara ndetse n'abahari ntago washidikanya ko ari ku bitaro.

Icyumba cyo kwa muganga, cyakirirwamo abarwayi, harimo ibitanda bitandukanye, ndetse n'aho babika ibikoresho abaje kwivuza. Ibyo bitanda biriho, amabara y'ubururu n'umweru.

Indwara nyinshi cyane cyane izandura, dushobora kuzirinda dutera imiti, aha hari uri gutera imiti aho yambaye agapfukamunwa ndetse iruhande rwe hari kandagira ukarabe iriho indobo y'icyatsi, inzu ahagaze imbere imiryango yayo irafunguye.

Inzu ndende isakaje amabatiumutuku isize amarangi y'umweru, ubusitani bunini kandi bwiza burimo ibyatsi n'amoko y'indabo atandukanye.

Iyo tugiye kwa muganga tugahura na muganga, atwandikira imiti. Hari aho tugurira iyo miti. Turi kubona inzu y'aho bacuruza imiti. Iyo nzu iherereye i Kanombe. kandi iyo nzu, ikorana n'ubwishingizi butandukanye, harimo ubwa Radiant.

Malariya ni indwara ihangayikishije Isi muri rusange ndetse ikaba yirindwa hakoreshejwe inzitiramibu, yandura biturutse ku mubu w'ingori, aha turahabona umugore uryamye kwa muganga ndetse n'umugabo uri kuzinga inzitiramibu.

Icyumba basuzumiramo umurwayi, agatanda aryamaho, umutako ushushanyijeho imbuto z'ubwoko butandukanye, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha iyo bari gusuzuma uwo murwayi.

Ibiti birebire bikikije inzu. Inzu isakaje amabati y'ubururu. Iyo nzu yanditseho n'amabara y'ubururu, inzu y'ababyeyi. Imbere y'iyo nzu hari umurasire.

Amazi burya ni ingenzi mu mibereho y'abantu ya buri munsi. Kugeza ubwo bafata umwanzuro wo kuyabika. Aha hari ibigega bibika amazi, ubusitani bwiza ndetse n'inzu ifite amabati y'umutuku.

Inzu nziza y'umuturirwa, imbere yawo hari imodoka ebyiri, imwe isa umukara iyindi isa umweru, kuri uwo muturirwa kandi hariho icyapa gifite amabara y'icyatsi n'umweru, imbere y'uwo muturirwa hari imitako y'icyatsi.

Ukimara kubona umurwayi uryamye ku gatanda ndetse ukareba n'uruhande rwe hari ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, ntabwo washidikanya ko ari mu cyumba cyo kwa muganga aho ari kwitabwaho.

Ibyapa by'amabara atandukanye biri imbere y'uruzitiro rw'inzu, rusize amarangi y'umweru. Rwubakishije amatafari ahiye ndetse haparitse n'amagare.

Intebe, ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, nibyo bigaragara muri iki cyumba ndetse ntabwo waba wibeshye uramutse uvuze ko iki cyumba ari icyo kwa muganga.

Abaforomo babiri umwe yambaye amarineti n'ishati y'ubururu, undi ateruye umwana. Inyuma y'abo baforomo babiri hari urugi rufunze ndetse ku rundi ruhande hari ibikoresho bikoreshwa kwa muganga.

Iyo turwaye tukajya kwa muganga batwandikira imiti, iyo miti hari aho tujya kuyigurira, hano hari inzu aho bacuruza imiti, harimo abantu b'ingeri zitandukanye baje kugura imiti, ku ruhande rw'iyo nzu haparitse imodoka ndetse na moto.

Agatanda gashashe neza karyamwaho n'umurwayi bagiye gufasha ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi nibyo bigaragara muri iki cyumba, ibyo byose byakwereka ko iki cyumba ari icyo kwa muganga.

Abanyeshuri biga ibya siyansi, akenshi ibyo biga bibasaba no kugira ngo bajye kubishyira mu bikorwa, ibyo bita pulatiki. Abanyeshuri bari muri pulatiki, bambaye imyenda y'umweru na ga z'icyatsi.

Turarwara tukajya kwa muganga. Tukivuza. Muganga akaduha imiti. Iyo miti atwandikira, hari aho tuyigura. Ndetse n'aho tuyigura, hari aho bayibika. Aha turi kureba, ni ahabitse imiti y'ubwoko butandukanye, ndetse iyo miti ikaba ipanze neza, cyane.

Umwana w'uruhinja uteruwe na mama we. Imbere yabo hari umuganga wambaye amarinete ndetse n'agapfukamunwa. Yambaye kandi n'imyenda y'akazi. Ari kuvura uwo mwana.

Ubusitani bwiza burimo icyuma abana bifashisha bakina, bufite uruzitiro rwubakishije amatafari, rusize amarangi y'umweru ndetse ruriho n'ibyuma.

Utubati babikamo ibikoresho, ibitanda ndetse n'inzitiramibu, urebye ukuntu ibyo bintu ari byinshi ndetse ukareba nuko icyumba kimeze ntabwo washidikanya ko ari icyo kwa muganga.

Urwego rw'ubuvuzi burya na rwo rubamo ibyiciro, aha hari ikigo nderabuzima. Ni cyo rwego rwa mbere rutangira ubuvuzi ndetse gikikijwe n'ubusitani bwiza, cyubakishirijwe amatafari ahiye.

Hari uburyo bwinshi abaganga bakoresha batanga umuti ku murwayi. Ubwo buryo harimo urushinge, hari n'ibinini, ubwo turi kubona imbere yacu ni ubujyanye n'urushinge, hari umurwayi bari gutera urushinge ndetse na muganga uri kurumutera.

Inzira nyabagendwa, ikikijwe n'ubusitani. Ubwo busitani burimo indabo z'amoko atandukanye. Iyo nzira uyikomeje, yakugeza ku nzu ifite amabati y'umutuku. Uteye amaso hakurya, urahabona igiti kirekire.

Ubusitani bwiza burimo indabo ndetse n'imikindo. Buri imbere y'inzu yubakishijwe amakaro ndetse yandikishijweho n'ibara ry'ubururu ngo CARAES.

Ibikoresho bikoreshwa mu kongerera umurwayi umwuka ndetse n'ibindi bikoreshwa mu buvuzi, ukareba n'umurwayi uryamye ku gatanda ko kwa muganga, nta washidikanya ko iki ari icyumba cy'umurwayi.

Iyo twarwaye tukajya kwa muganga hari igihe biba ngombwa ko batwongerera amaraso, ayo maraso nta handi aba yaturutse, aba yavuye muri bagenzi bacu bayatanze, aha hari udushashi tw'amaraso abantu batandukanye bagiye batanga kugira ngo azafashe abarwayi.

Umuvuduko w'amaraso ni indwara yibasiye abantu benshi, cyane cyane abakuze. Uyu mugabo ari gufashwa kumenya umuvuduko w'amaraso w'iwe ndetse ku ruhande rw'iwe hari icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishijweho n'ibara ry'ubururu.

Ubusitani bwiza burimo imikindo n'ibiti bifite amashami manini. Inzu zubakishije amatafari zisize amarangi y'umweru, n'imodoka ziparitse imbere y'ubusitani.

Mu cyumba utashidikanya ko ari icy'inama, kuko hari mudasobwa ndetse n'umuntu uri gutanga ikiganiro yifashishije icyapa. Imbere y'abantu bicaye hari amazi ateretse, ari mu ducupa.

Umuturirwa ugeretse irirenze rimwe, ufite ibirahure bisa ubururu, uriho icyapa cyanditseho cumi na kabiri, kandi biragaragara ko ku ruhande rwawo hari n'undi, na wo ugeretse irirenze rimwe.

Imyitozo ngororamubiri ishingiro ry'ubuzima bwiza, ikibuga Gikorerwamo utugare two gutwara ibyuma byo guterura mu gihe bari kuyikora ndetse hari n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa.

Ubusitani bwiza bushinzemo icyapa. Ndetse n'imodoka ziparitse imbere yabwo. Ugejeje amaso kure, urareba inzu ifite amabati y'umutuku.

Intebe nyinshi zitandukanye zifite amabara y'ubururu ndetse n'umukara, aho bajugunya imyanda n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye, byerekana ko iki cyumba ari icyo kwa muganga.

Imyitozo ngororamubiri ni ubuzima. Icyumba bakoreramo iyo myitozo, hari ibikoresho bakoresha, ibyuma abagabo baterura, utugare two kunyonga ndetse n'udutanda two kuryamaho bari gukora iyo myitozo.

Inzu ndende yubakishijwe amatafari, ikikijwe n'ubusitani bwiza, ndetse hari n'iyindi nzu yubatse mu buryo budasanzwe, kuko yubatse nk'uruziga. Ndetse hari inzira nziza yubakiye ikugeza kuri ayo mazu.

Isura yuzuye ibyishimo, yambaye rinete ari guseka, ndetse afite n'igikoresho yambaye mu muhogo, yambaye n'umwenda w'akazi usa umweru, ku ruhande rwe hari umwana wifashe neza, ndetse afite n'ikindi gikoresho mu ntoki akoresha mu kazi ke.

Iyo abantu bagiye kwa muganga cyangwa ahandi hantu hatandukanye, hari aho bicara bagategereza kugira ngo bahabwe ubufasha. Aha hari abantu batandukanye bicaye aho bategererereza kugira ngo baze guhamagarwa bahabwe ibyo baje gusaba.

Amazi ni ubuzima dore ko agize kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwacu, umuntu ategetswe kuyanywa kenshi, uyu ari kunywa amazi akoresheje icupa.

Mu kibuga bakiniramo umupira w'amaguru, hari abakinnyi batandukanye, umwe muri bo aryamye hasi ndetse hari abakorerabushake bari kumuha ubutabazi bw'ibanze bigaragara ko yavunitse.

Hari igihe umuntu akora impanuka akagira ibyago byo kuba yacika akaguru cyangwa atabasha kugenda neza nk'uko bikwiye, icyo gihe ahabwa insimburangingo imufasha gukandagira, iyo ni imbago.

Hari byinshi, byadufasha gukora siporo, ikaturyohera. Muri ibyo harimo umuziki. umugabo ufite telefone mu ntoki uri kumva indirimbo, ari kunywa amazi. Yambaye isaha y'umukara, ndetse n'agapira k'ubururu.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza, ifite akamaro gakomeye mu buzima bw'umuntu, ariko iyo uyikoze cyane ukayikora mu buryo butari bwiza yangiza umubiri, urupapuro rusa umuhondo, ruriho inyuguti z'umukara zerekana uko wakora imyitozo ngororamubiri.

Biba byiza iyo umuntu akoze ibintu yabanje kwihugura ndetse akabisobanukirwa birushijeho. Aha turahabona ibikoresho wakwifashisha kugira ngo utange ubutabazi bw'ibanze, ariko bari kwigisha uburyo bikoreshwa.

Imyitozo ngororamubiri ni isoko y'ubuzima bwiza. Umukobwa n'umusore bavuye mu myitozo ngororamubiri, umusore yicaye ku ntebe ari kuruhuka. Inyuma yabo hari ubusitani, ndetse umusore ari kunywa amazi. Imbere yabo hari ibikapu.

Imyitozo ngororamubiri ifasha muri byinshi, muri ibyo harimo kurinda indwara ndetse no kugira imbaraga, aha hari umugabo wambaye imyambaro imufasha gukora imyitozo ngororamubiri neza ndetse ari no kuyikora.

Mbere yuko dukoresha ibikoresho bitandukanye ni ngombwa ko tumenya uko bikora, hari umugabo wambaye umwenda w'akazi ndetse hari n'abandi bicaye, bafite amakaramu n'impapuro bari kwandikah, basa nkaho bari kubasobanurira uko iki gikoresho gikora.

Tekinoloji imaze gutera imbere kugeza ubwo yageze no mu buvuzi, aho basigaye bifashisha utudege duto mu gutwara amaraso bayajyana ku bitaro bitandukanye, aka ni kamwe muri two gatwaye ayo maraso.

Imyitozo ngororamubiri ni ishingiro ry'ubuzima bwiza, ari mu muhanda nyabagendwa, uko yambaye, uko agaragara ndetse n'uko yifashe, bitwereka neza ko ari gukora iyo myitozo.

Ubushakashatsi buvuga yuko, ubundi umuntu akibyuka agakora imyitozo ngororamubiri, bimufasha kugira ubuzima bwiza. Uyu mukobwa arabyutse. Yambaye imyenda ya siporo. Arinanura, bisa nk'aho yitegura kwitabira imyitozo ngororamubiri ,kugira ngo birusheho kumufasha kugira ubuzima bwiza. Yicaye mu cyumba cye, ari gutekereza uko agiye kubigenza.

Imyitozo ngororamubiri burya hari byinshi iturinda, bikuryohera cyane iyo uyikoze wumva umuziki, umukobwa wambaye imyenda igaragaza ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yitwaje amazi mu icupa.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza kuko ituma tugira ubuzima buzira indwara, yambaye imyenda imufasha gukora iyo myitozo ndetse yateretse n'icupa ry'amazi iruhande rwe.

Mu cyumba gitangirwamo ubutabazi bw'ibanze, niho ari, ari kumwe n'urimo kumufasha arambuye akaguru bisa nk'aho ariko afite ikibazo, uwo uri kumufasha nawe yambaye imyenda y'akazi.

Amazi ni ubuzima, biba byiza iyo umuntu ayafashe kenshi gashoboka kuko afasha mu igogora ndetse akongera n'imbaraga, uyu ari kuyanywa akoresheje icupa.

Abantu babiri umwe afite umupira w'amaguru mu ntoki undi nawe ari kugendera ku mbago bose bahagaze ahantu hagaragara nk'aho ari aho bakinira umupira, inyuma yabo hari ubusitani.

Amazi ni ubuzima. Ubundi tugirwa inama yo gufata amazi igihe cyose tubyutse. Kunywa amazi igihe umuntu avuye muri siporo n'igihe cyose ananiwe. Aha hari umusore uri gufata amazi, yambaye agapira k'ubururu.

Kuyikora ni byiza, kuko bituma ugira ubuzima bwiza, ndetse bikongera n'imbaraga, gusa bitera umunaniro, iyo nta yindi ni imyitozo ngororamubiri, uyu mukobwa arananiwe kuko yari arimo gukora iyo myitozo.

Hari igihe umuntu akomereka bikaba ngombwa ko ahabwa ubutabazi bw'ibanze mbere yuko agezwa kwa muganga. Ibi ni ibikoresho bikoreshwa muri ubwo butabazi. Harimo umukasi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Iyo umuntu yavunitse burya baramufasha bakamuha ubutabazi, uyu yavunitse bari kumukanda, bari kumukanda bakoresheje agatambaro gasa ubururu ndetse yarambuye n'akaguru ke kugira ngo bize kumufasha byihuse.

Hari igihe umuntu agira imvune, bikaba ngombwa ko ahabwa ubutabazi bwihuse. Yewe si imvune gusa, n'igisebe. Hano hari ibikoresho umuntu yakoresha mu gihe ari kumuha ubwo butabazi. Harimo umuti wamusiga mbere y'uko umupfuka, hariho udupfuko wamupfukisha, hari na bande wamuzirikisha.

Imyitozo ngororamubiri ni ishingiro ry'ubuzima bwiza, umurebye uburyo yambaye ndetse n'uko yicaye wahita uvuga ko ari gukora iyo myitozo ngororamubiri, ari mu busitani bwiza cyane.

Hari indwara nyinshi umuntu arwara, muganga akamutegeka kujya akora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka, kuko ifasha mu kurwanya indwara zitandukanye. Uyu ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Gutanga ubutabazi bw'ibanze burya biba byiza iyo umuntu na byo abikoze abifiteho ubumenyi, uko bigaragara aha hari uri gufasha abandi kumenya uko batanga ubutabazi bw'ibanze ku bantu.

Hari ibiti dukoresha mu buvuzi bw'ibanze, yewe hakaba n'iyo twandikirwa na muganga igihe twagiye kwivuza, aha haragaragara ibyo byose, harimo ibinini, udufuko two kwipfuka ndetse n'ibindi.

Kunywa amazi bituma umuntu agira ubuzima bwiza, kumva umuziki bigatanga ibyishimo, ari kwifashisha icupa anywa amazi ndetse yambaye n'utumufasha kumva umuziki.

Ahabikwa ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, agatanda karyamwaho n'umurwayi ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga birerekana neza neza ko iki cyumba ari icyo kwa muganga.

Ari mu cyumba utashidikanya ko ari igikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ateruye icyuma kimwe mu bikoreshwa kugira ngo ukore iyo myitozo ndetse inyuma ye hari n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa.

Imyitozo ngororamubiri ifasha mu kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara, inyuma ye hari intebe isa umweru, yambaye imyenda kugeza ubwo udashidikanyije wavuga ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Croix Rouge ni ikigo cyiza cy'ubutabazi ku isi hose. Turi kubona abakorerabushake ba Croix Rouge barandase umusore. Uyu musore bisa nk'aho afite ikibazo cy'ubumuga bw'akaguru. Inyuma yabo hari abandi bantu bambaye imyenda y'umweru.

Urugendo rugora ni urwo kugabanya ibiro. Ibyo turi kubona imbere yacu ni ibyadufasha kugabanya ibiro. Harimo kujya umuntu yipima akoresheje umunzani, kunywa amazi akoresheje icupa, gukora siporo ndetse no gufata imboga n'imbuto.

Ibyatsi bitoshye, aricaye ahinnye akaguru akandi karambuye ndetse arambuye n'amaboko, nta kabuza uko agaragara ari mu myitozo ngororamubiri.

Witegereje imyambaro yambaye yakubwira byinshi, ndetse yanagusobanurira ko ari gukora imyitozo ngororamubiri. Bavuga ko biba byiza iyo unyweye amazi mu gihe urimo kuyikora na we nibyo ari gukora.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ariko irananiza kugeza ubwo ishobora gutuma umuntu afata amazi mu gihe ayirangije cyangwa arimo kuyikora, umukobwa wambaye umupira w'umutuku uri kunywa amazi, afite telefone ari kwifashisha yumva umuziki.

Imyambaro bambaye uducupa bafite mu ntoki ndetse n'uko bari gutera intambwe biratwereka ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari kuyikorera hari ibyatsi.

Umukasi kuruhande rwe ndetse hariri kumupfuka ntabwo waba wibeshye uvuze ko afite ikibazo cy'akaguru, yicaye ku gatanda kagaragara nk'aho ari ako kwa muganga.

Mudasobwa imbere ye ibikoresho byifashishwa umuntu akora imyitozo ngororamubiri ndetse n'icupa ry'amazi yicaye mu cyumba, urebye imyenda yambaye ntago washidikanya ko ari gukora imyitozo ngororamubiri. Si ibyo gusa kuko n'uburyo arambuye amaboko birabigaragaza.

Hari byinshi umuntu akora kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, harimo kurya imbuto, kunywa amazi ndetse no kwipima ukamenya uko ibiro byawe bihagaze. Ikindi kandi ukareba muganga kenshi, Ibi bigaragara imbere yacu ni ibyadufasha gukora ibyo byose.

Akaguru ke gafite ikibazo, uko bigaragara ari guhabwa ubutabazi bw'ibanze, kandi ku kandi kaguru yambaye urukweto, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'akazi.

Amazi ni ubuzima dushishikarizwa kuyafata kenshi gashoboka ari kunywa amazi yifashishije icupa ndetse hari byinshiyinshi ari kwirinda kubera ayo mazi ari kunywa.

Ibyuma bitandukanye byo guterura birutanwa uburemere ndetse n'imigozi yo guterura n'ibindi byinshi, biteretse ahangaha. Iyo ubyitegereje uhita ubona ko aha hakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Imboga n'imbuto, bimwe mu bigize indyo yuzuye, kandi bifasha mu kugira ubuzima bwiza, hano hari ubwoko butandukanye bw'imboga, kandi hari kwiyongeraho icupa ry'amazi, n'igikoresho bakoresha bakora imyitozo ngororamubiri.

Iyakure yoroheje ibintu, hari mudasobwa bari gukoresha bakora inama, aba ni abakozi bo kwa muganga kuko bambaye udupfukamunwa n'imyenda y'akazi ndetse n'icyumba barimo, urugi rwacyo rurafunguye.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, kuko ituma amererwa neza ndetse akagira n'ubuzima bwiza, ari mu cyumba yambaye imyenda iri bumufashe gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari intebe.

Imikino y'ubwoko butandukanye burya nayo ifasha mu kurandura indwara zitandukanye ndetse no kugira ubuzima bwiza, hano hari imipira yifashishwa mu mikino itandukanye, hari kandi n'igikoresho gikoreshwa kwa muganga.

Igiti kirekire gifite amashami, ubwatsi butoshye ndetse ntabwo waba wibeshye uvuze ko hagaragara nk'urwuri, kuko inka yarisha muri ubu bwatsi yabyibuha.

Akenshi abantu twiyumvisha yuko indabo zikoreshwa mu gutaka ahantu ngo hase neza, mu kuhagirira isuku n'ibindi bitandukanye, ariko burya indabo zishobora gukoreshwa nk'imiti gakondo, hano hari indabo z'ubwoko butandukanye, hari kandi n'ikiganza cy'umuntu ukoze kuri rumwe muri zo.

Ubuki burya ntabwo bukurwa mu mizinga ngo buhite bukoreshwa, hari abahita babukoresha ariko ubundi bukajyanwa mu nganda bugatunganywa neza ndetse bugashyirwa mu macupa, aho bushobora gukoreshwa byoroheje.

Indabo zidufasha gutaka ahantu ngo hase neza kandi zimwe zikoreshwa nk'imiti. Aha hari indabo zifite amabara atandukanye, zishobora gukoreshwa muri ibyo byose.

Imbuto zibamo amabara atandukanye, ni nziza kuko zidufasha kugira ubuzima bwiza, aha turahabona imbuto zisa icyatsi n'izindi zisa umuhondo, harimo indimu n'izindi zitandukanye.

Umuntu ntago avurwa n'ibinini gusa, hari imiti gakondo nayo ivura neza, bafata ibyatsi bakavanga n'ibindi bintu bitandukanye bagakora umuti kandi uvura neza.

Amavuta ya Elayo abantu benshi bayakoresha nk'umuti, hari abayakoresha bateka ariko hari n'aho akoreshwa avanzwe n'ibindi bitandukanye. Aha bayakoresheje bakora umuti wo koza mu mutwe, uwo muti ukaba witwa Jojoba.

Abantu benshi bibwira yuko ubuvuzi burya bushobora gukorwa bakoresheje ibinini n'inshinge gusa, hari imiti gakondo izwi kandi ikoreshwa cyane, uyu ni umuravumba, ukoreshwa nk'umuti gakondo, abantu benshi barawukoresha yaba abana, cyangwa abakuru.

Umuntu agira ibice byinshi bitandukanye, ariko hari ikigaragara kibonwa na buri wese, icyo mu ruhu. Na rwo rukenera kwitabwaho, aha hari ibikoresho bikoreshwa umuntu yita ku ruhu harimo amavuta n'ibindi.

Imiti gakondo y'ibyatsi igizwe n'ibyimeza ndetse n'ibyo bahinga. Umuravumba ni kimwe muri ibyo, kuko ukoreshwa nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Ubuhinzi burya bushobora gukorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho hifashishwa imashini zihinga zigatera ndetse zikanasarura, aha hari imyaka yahinzwe ikikijwe n'igiti.

Imiti gakondo irimo ubwoko butandukanye. Hari ikoreshwa ari mibisi ndetse indi igakoreshwa yumye. Yongerwamo ubuki kandi itunganywa hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye, muri ibyo harimo agasekuru.

Icyiza cy'imiti gakondo ishobora gutunganywa itajyanywe mu nganda, aho uyanika, wamara kuyanika ukayisekura ukayikoresha, ibitureba ni ibyo twifashisha tuyitunganya.

Ubukerarugendo kiri mu gikorwa abantu bakora kugira ngo bamenye byinshi ku bintu bitandukanye ndetse n'ahantu hatandukanye. Aha uko bigaragara hari abantu bari muri icyo gikorwa ndetse hari n'umugezi utemba.

Kera ndi muto numvaga umuravumba ukoreshwa nk'ibyatsi gusa, ariko burya uratunganywa ndetse ugakorwamo ifu iyo umuntu ashobora gufata arwaye, aha ni icupa ririmo umuravumba utunganyijwe.

Impumuro nziza yo mu kanwa hari icyo isaba, harimo gukorera isuku amenyo, aha hari imiti dukoresha dusukura mu kanwa, ndetse n'uburoso bwoza amenyo.

Elayo ndetse n'igikakarubamba, ni bimwe mu bigize imiti gakondo, hano turi kuhabona imwe mu miti ikozwe muri elayo ndetse n'igikakarubanda ndetse iruhande rw'ayo macupa hari umwembe ukase neza.

Burya ubuvuzi ntabwo bugizwe n'imiti yo mu nganda gusa, ibyatsi byimeza cyangwa abantu batera nabyo bigize ubuvuzi, ubwo bakabwita ubuvuzi bwa gakondo. Aha hari kimwe muri ibyo byatsi.

Iyo umuntu avuze abantu bumva ijwi ariko hari n'umwuka ahumeka, yewe ushobora guhumura neza cyangwa ukaba mubi. Hano turahabona umuti woza mu kanwa ndetse n'uburoso bakoresha kugira ngo uwo mwuka umuntu aza guhumeka uze kuba ufite umwimerere.

Isuku yo mu kanwa ni ingenzi ariko hari icyo isaba, harimo gukoresha imiti yabugenewe, aha hari umuti woza mu kanwa, ukozwe mu gikakarubamba, uri mu icupa ry'umweru.

Hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'imiti gakondo, ariko imyinshi ikorwa mu byatsi, aha hari icyatsi kidufasha gukora imiti gakondo, gifite amashami menshi.

Ubwoko bw'ibyatsi buratandukanye, hari ibikura bizamuka n'ibindi biranda hasi. Ibyo byose bishobora gukoreshwa nk'imiti gakondo kuko bigira akamaro gatandukanye.

Imiti rwatsi burya ntabwo isoromwa mu murima ngo ihite ko ikoreshwa. Irabanza igatunganywa, ikanikwa ndetse igasekurwa kugira ngo ikoreshwe. Aha hari ibikoresho bakoresha batunganya iyo miti.

Abantu benshi bajya bibwira yuko imiti ivura igakiza ari ibinini n'ishinge gusa, ariko si ko bimeze kuko n'imiti gakondo igizwe n'ibyatsi, ibyemeza cyangwa bahinga na yo iravura igakiza.

Ubundi abantu bazi ko umuravumba ukoreshwa udatunganyijwe gusa, ahubwo ni umuti ukomeye kuko ushobora no gutunganywa, aha hari icupa ririmo umuravumba utunganyijwe, ushobora gukoreshwa nk'umuti ariko utunganyijwe.

Igihingwa gikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, hari aho gikora nk'umuti ahandi kigashyirwa mu biryo ngo birusheho kuryoha ndetse no guhumura neza nta kindi ni tungurusumu.

Bavuga ko ari byiza gufata imbuto mbere cyangwa nyuma yo gufata amafunguro, aha hari ubwoko bw'urubuto rwitwa ipapayi, imwe irakase indi ntabwo ikase.

Igihingwa cya elayo gikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, haba mu mavuta yo kwisiga, ayo guteka, hari n'aho gikoreshwa nk'umuti gakondo uvura indwara nyinshi.

Ishami risa icyatsi, rifite amababi y'icyatsi. Ururabo rusa umuhondo, ururabo tuzi ko rukoreshwa ku bintu byinshi bitandukanye. Ushobora kurukoresha uri gutaka ahantu kugira ngo hahumure neza.

Y'ibyatsi byinshi byimejeje cyangwa babiteye bigahurira hamwe bikora igihuru, ariko ntihaburamo iby'akamaro bishobora gukoreshwa nk'imiti ndetse ibindi bigakoreshwa mu gutaka.

Birya imiti ntabwo ari iyo kwa muganga gusa habaho n'imiti gakondo, iyo miti gakondo igizwe n'ibyatsi ndetse n'ibindi bitandukanye, hano hari icyatsi bakoresha mu buvuzi bwa gakondo.

Imiti gakondo burya ntabwo ari ibyatsi gusa, hari iyo batunganya bakayishyira mu amacupa, mu mashashi n'ahandi. Aha turi kubona ni ahabitse ubwoko bw'imiti gakondo butandukanye bubitse mu macupa ndetse no mu mashashi.

Abantu benshi bibwira yuko, kwivuza ari ukujya kwa muganga. Akaguha ibinini, cyangwa akagutera inshinge. Oya hari imiti gakondo ikora, kandi cyane. Muri iyo miti harimo tangawizi turi kubona, Ndetse iyo uyivanze n'iyindi miti y'ibyatsi, itandukanye.

Amavuta ya elayo akoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, ndetse tuyafata nk'umuti aho akoreshwa mu byo guteka, n'ibindi hano yakoreshejwe mu muti usukura imisatsi.

Ubutabire ni igice kigize siyansi, hano hari umugabo wambaye umwambaro w'umweru, uko bigaragara asa nkaho hari isuzuma ari gukora ku bijyanye n'ubutabire.

Elayo ikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, hari n'aho bayifata nk'umuti kandi koko nibyo, aha yakoreshejwe bakora amavuta yo kwisiga afasha mu kurinda indwara z'uruhu.